Abana benshi biga mu mashuri y'inshuke bakaba bari ku byicungo, barimo kugenda binezeza ni muri cya gihe amasomo aba asa naho arangiye bakaba barimo gufata akaruhuko kugira ngo babanze kuruhura mu mutwe.

Mu kigo cy'amashuri, aha ngaha hakaba ari aho abana b'inshuke bigira, aha ngaha hakaba ariho ibyicungo bifashisha mu gihe baje kwiga, ahangaha kandi hakaba hazitiye ku buryo umuntu uwo ari wese atapfa guhita ahinjira.

Iduka ririmo imyaka igiye itandukanye, hakaba harimo imifuka, hakaba harimo ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye, aho umuntu ashobora kugurira buri bintu akeneye ku giciro kiza, hakaba haba harimo umucuruzi ushobora kuguhereza ibyo ukeneye.

Ibikoresho by'abana cyane cyane bya bindi twita ibikinisho. Bikaba biri ahantu aho abana bigira, ibi ngibi bikunze kuboneka ahantu mu mashuri y'inshuke aho abana bigira, hakaba hariho ibikoresho bitandukanye, bifite amabara agiye atandukanye.

Ahantu hari inyubako ikaba ifite aka bungalo imbere, aho abantu bashobora kwicara mu gihe barimo kwiganirira, gusa ni inyubako ndende ikaba yubatswe nk'uburyo bw'amashuri cyangwa si ahantu hari ibiro runaka.

Ibipupe bigiye bitandukanye, ushobora kugurira umwana mu gihe ushaka kumushimisha, cyane cyane igihe yakoze aniveriseri, cyane cyane ku bana biga mu mashuri y'incuke, ibikinisho aba byiza ku bana.

Udukoresho tugiye dutandukanye, dufite amabara agiye atandukanye, harimo uduhagaze, hakabari urutaditse, hakabamo n'utundi tugiye duhuza ibice bigiye bitandukanye tw'uruziga ndetse hakaba harimo n'utwigunze.

Udukoresho twifashishwa cyane cyane n'abantu bajya mu mazi cyangwa se abantu bagenda bakora ingendo zo mu mazi, dukora ubutabazi bw'ibanze mu gihe umuntu yakoreye impanuka mu mazi akaba yabasha kureremba.

Ahantu hari inzu nini ifite imyotsi, bigaragara nkaho ariho batekera, hakaba hariho kandi hino y'ikibuga, aho abana bashobora gukina cyangwa se kwidagadurira, hakaba hariho aho bacanye, batekeye abana.

Ni imwe mu mfashanyigisho zikoreshwa mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, aha ngaha hakaba hari imbeba zikaba zirimo kugenda zijya mu bice bigiye bitandukanye zizenguruka hano hantu.

Ahantu hari amashusho agiye atandukanye y'ubugeni aha ngaha ni mu kigo cy'amashuri cyane cyane ya yandi y'inshuke aho haba hariho ibishushanyo biriho amazina agize ibice by'umuntu.

Ahantu hari inyubako z'ibigo by'amashuri ahabanza hari umuhanda, ukaba uri kumwe n'icyapa kigaragaza aho iri shuri riherereye, aho baba barangira abantu ndetse berekana n'ibihakorerwa.

Umugabo ukora mu nzego z'umutekano akaba ari ahantu mu kigo cy'amashuri, hakaba hateraniye kandi abandi bantu abenshi muri bo bakaba bambaye udupfukamunwa, aha ngaha bari ni mu kigo cy'amashuri abanza.

Ahantu harimo abana biga mu mashuri y'incuke, bakaba bari ku byicungo, bakaba barimo kugenda batsuka ari na ko abandi bagenda bazamuka, ni uburyo bwo gufasha abana gukunda ishuri ndetse na kandi kwishimira kujya kwiga.

Ibikoresho by'imfashanyigisho byifashishwa mu mashuri yisumbuye ndetse no mu mashuri abanza hamwe na hamwe, aho bigaragaza ikarita y'Isi, cyane cyane hamwe bigaragaza amazi ndetse ahandi n'ikarita muri rusange.

Agace gakoreshwa cyane cyane mu nyigisho zo mu mashuri abanza, aha ngaha ni kwa kundi baba bafashe ibintu bakabihuriza hamwe ndetse aha ngaha bigizwe n'umukasi, amakaramu y'ibiti ndetse n'impapuro zo kwandikaho.

Umwana wiga mu mashuri abanza, akarimo kugenda yandika inyuguti ahera kuri a paka kugeza asoje inyuguti, ari no kugenda yandika nk'uko yabyigishijwe na mwarimu uko yamutoje.

Igitabo cy'imfashanyigisho kiboneka mu mashuri abanza, kiriho Cibiri ndetse n'umurongo, akaba arimo kugenda yitegereza agashusho gahari ndetse kandi ni bimwe mu bitanga ubumenyi cyane cyane mu mashuri abanza.

Igitabo kirimo imfashanyigisho cyiganjemo inkuru ishushanyije iriho abana bagiye ku ishuri, akaba ari mukuru, abandi bakiri batoya, ku ruhande kandi hakaba hari umukecuru ufite inkoni akaba ari we nyirakuru w'aba bana.

Karirimo ameza agiye atandukanye hakaba harimo aho umuntu yakwicara mu gihe arimo gusangira n'inshuti ye ndetse kandi hari abantu bicara ari benshi mu gihe wasohokanye n'inshuti zawe muri benshi. Mushobora guhurira ameza aneY.

Ku marembo y'ikigo cya Matimba aho aha ngaha higishwa abanyeshuri bagiye batandukanye haba abari mu mashuri abanza cyangwa se ayisumbuye, bikaba babaha ubumenyi bugiye butandukanye bujyanye cyane cyane n'ibyo bahisemo kwiga.

Ahantu hari ikigo cy'amashuri, kikaba gifite ibyumba bigiye bitandukanye, kimwe ku ruhande rwo hepfo, aricyo cyegeranranye n'indapo y'u Rwanda, hakuno hakaba hariho irindi shuri, rifite urubaraza rurerure ndetse hakaba hariho umuntu urimo gutambuka.

Ibikinisho by'abana byiganjemo udupusi ndetse cyane cyane tubyita udupupe, tukaba turi mu mabara agiye atandukanye umweru ndetse n'umutima w'umutuku, tukaba twifashishwa n'abana mu gihe barimo kwishimisha cyangwa se abana bakiri batoya biga mu mashuri abanza.

Ikigo cy'amashuri kiriho aho abantu bashobora gukarabira mu gihe bashaka kurwanya icyorezo cyangwa se kwirinda indwara z'umwanda kugira ngo ibintu bigende neza, ahangaha hakaba ari mu mashuri abanza ndetse kandi iyi porogaramu ikaba iba no mu mashuri yisumbuye.

Imfashanyigisho iboneka mu mashuri abanza hakaba hariho umumama uhagaze imbere akaba yambaye bote ndetse kandi imbere ye hakaba hari abandi bafite amasuka n'abandi bambaye bote, akaba ahagarariye abahinzi, aha ngaha kandi agenda agezaho gahunda zitandukanye.

Ikigo cy'amashuri, kikaba cyiganjemo ahantu abana bigira, haba abiga mu mashuri yisumbuye, ku ruhande rumwe hakaba hariho abiga mu mashuri y'incuke bigira, hakaba hariho n'ibyicungo.

Imbaga y'abanyeshuri benshi bakaba bamwe bari imbere bicaye cyangwa se baciye bugufi. Hakurya kandi hakaba hari abandi bahagaze kugira ngo bose babashe kugaragara. Bakaba bicaye mu kibuga ahantu mu mucaca kugira ngo bagezweho ubutumwa.

Agace karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byiganjemo aho umuntu ashobora kwituma cyangwa se ubwiherero, hakaba hariho ikigega kinini cyane gitanga amazi y'imvura, kikanayafata ndetse hakaba hariho n'abantu barimo kugenda bagenzura.

Abakobwa babiri b'abanyeshuri barimo kugenda biga ibijyanye n'ikoranabuhanga bafite mudasobwa zigera kuri ebyiri ndetse ku meza hariho umugozi bashobora kwifashisha mu gihe bari gukurura umuriro, hanyuma barimo kwiga iby'ikoranabuhanga.

Abantu bari mu ishuri bakaba bari gukorera mu matsinda inyuma hakaba hariho umwarimu, urimo kugenda akosora ibyo bakoze ari na ko agenda abahereza amanota, inyuma kandi hakaba hari abandi bakiri mu matsinda aho mwarimu atari yagera.

Ahantu habateguye ameza hagomba kwicarwa abantu ndetse barimbuze kwicara barebana kuko intebe zirateganye, imbere hakaba hinjiyemo abantu bambaye utujiri bashobora kuba bari mu bushakashatsi bugiye butandukanye.

Umuyobozi akaba arimo kugenda aganiriza abanyeshuri bateraniye hano, higanjemo abiga mu mashuri yisumbuye, barimo kugenda bagezwaho ubutumwa bugiye butandukanye.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo abanyeshuri, bakaba barimo kugenda bakora igikorwa cyo kwibuka, bahereza icyubahiro inzirakarengane zazize Jenoside yakorewe abatutsi, igihumbi magana icyenda na mirongo icyenda na kane.

Abanyeshuri bafite indabo mu ntoki bakaba barimo kugenda baha agaciro cyangwa se bunamira inzirakarengane zapfuye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, aha ngaha bari ni ku rwibutso.

Umugabo ufite ijwi rinini cyane arimo kugenda arangurura ijwi akoresheje indangururamajwi, inyuma ye hari agatsinda k'abakobwa bambaye impuzankano nk'iy'abana biga mu mashuri yisumbuye bakaba barimo kuririmba basusurutsa abantu.

Ikigo cy'amashuri hakaba hariho abantu barimo gukora ubugenzuzi, aha ngaha ni mu mashuri yisumbuye hakaba hariho abana baza gufata ubumenyi bugiye butandukanye bijyanye n'ibyo bahisemo kwiga.

Abanyeshuri bicaranye n'abayobozi, baka barimo kugenda baganirizwa ku bintu bigiye bitandukanye, ahangaha bateraniye barimo kugenda baganirizwa ndetse kandi ibyo bari kwiga bari kugenda nabo ubwabo babyiyandikira.

Ahantu hateraniye inzego z'umutekano hakaba hari abantu benshi bambaye n'udupira, aha ngaha akaba ari mu mashuri bakaba barimo kugenda bigishwa cyane cyane barimo kugenda bahanura urubyiruko kwitwararika.

Ikigo cy'amashuri cyane cyane amashuri yisumbuye hakaba hariho abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'ubururu ndetse kandi bakaba bambaye amakabutura n'amapantaro ya kaki ndetse hakaba hariho umumama w'umuyobozi urimo gutambuka.

Abo bagabo bagera kuri barindwi bahagaze, barimo kugenda bafata agafoto, abenshi muri bo bambaye amajiri bahagaze ahantu mu kigo cy'amashuri, bakaba barimo kugenda bagenzura ibikorwa bigiye bitandukanye.

Igikoresho cyashaje iri ngiri ni icupa, aha ngaha ni hahandi abakora ibijyanye n'ubugeni bafata igikoresho kitandukanye bakaba babibyazamo ikindi kintu cyihariye kidasanzwe kiriho mu busanzwe.

Ameza mato y'icyatsi hakaba hariho agakayi ndetse n'urupapuro biri ahantu hejuru, ikayi ikaba ari iy'ubururu ikaba isa n'ameza iteretseho hakaba hariho n'amakaro hasi ari na yo agize iki cyumba.

Igitabo kirimo amashusho agiye atandukanye, agaragaza igiturage, kikaba kinyuzemo umugezi, hakaba hariho n'akato abantu bakoresha barimo kwambuka, hakurya kandi hakaba arimo ibiti bigiye bitandukanye, bigize abaturage.

Agakoresho ubu gakozwe mu ibumba aho bagiye bafata udukoresho bakagenda batwegeranya, ari nako bagenda bahuza kugira ngo bakore ikintu kimwe cy'agatangaza. Ku ikubitiro bakaba bakoze agatako.

Udukoresho tugiye dutandukanye twiganjemo amabara yagiye ashushanywa n'abahanga mu byo gushushanya, aba ni abanyabugeni akaba ari utunyugunyugu turi kuguruka ndetse n'andi mabara meza agiye asize.

Udutako tugiye dutandukanye dukorwa n'abantu b'abahanga mu by'ubugeni. Tukaba twakwifashishwa mu gutaka inzu, cyane cyane mu ruganiriro n'ahandi hantu haba hakoraniwe n'abantu benshi. Ushobora kutugura ukatuhashyira.

Icyumba kikaba kirimo abanyeshuri bagiye batandukanye barimo kugenda bafata amasomo. Ahangaha ushobora kuhasanga ari muri kaminuza y'uRwanda, cyangwa se mu mashuri yigisha ubumenyi ngiro cyane cyane za ayipiyarasi.

Imbaga y'abanyeshuri benshi bafashwa n'ikigo cya Mastercard bakaba barimo kugenda baganirizwa, aha ngaha bateraniye aho bicaye buri wese afite amazi yo kunywa ndetse kandi bambaye amakarita y'ubururu.

Aharimo gukorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye byiganjemo iby'ubwubatsi, aho hariho uturindantoki twifashishwa n'abari mu mirimo yo kubaka, hakaba hariho n'ibikoresho bagiye bavangiramo sima.

Abana bicaye mu ishuri bakaba barimo kugenda baganira kwa kundi baba batanze imyitozo, abana bari gukorera mu matsinda kugira ngo babashe gufashanya n'abatabizi babimenye bagende basobanurirwa.

Udukoresho tugiye dutandukanye twiganjemo intebe, aho umuntu ashobora kwicara akaba afite n'ahantu hari ameza aho ashobora kwandikira ndetse izi ni za ntebe ziboneka mu mashuri yisumbuye ndetse na za kaminuza mu bigo igezweho.

Ahantu hari urugi rukaba rufite ibirahuri bimeze neza cyane hakaba hariho inyuguti ziranga uyu muryango, hakaba hariho rimwe ra cumi n'agatatu aricyo kiranga uyu muryango, cyangwa se iki cyumba.

Ahantu hari umutako umeze neza cyane, uri ahantu mu kavaze ndetse hakaba hariho aho bagatetse akaba ari ku meza, hakurya hakaba hariho televiziyo, umuntu ashobora kwifashisha mu gihe ari muri iki cyumba.

Ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abana mu gihe barimo kwiga, ahangaha hakaba hari ishusho y'ubwato buri ahantu hari ikiyaga ndetse hari'ikiraro cya rutura, hakaba harimo n'ibiti biteyemo hagati mu mazi.

Abanyeshuri bameze nka ba bandi biga mu mashuri ya kaminuza, hakaba imbere yaho hariho umwarimu urimo kugenda abigisha, bamwe muri bo bafite za mudasobwa harimo umwe w'umunyeshuri wifashe ku gahanga.

Ibibumbano bigiye bitandukanye byagiye bikorwa cyane cyane bikorwa n'abantu bakora ibijyanye n'ubugeni kugira ngo babikore nk'umwuga babone amafaranga agiye atandukanye mu bihe runaka.

Umugabo uhagaze akaba arimo kugenda yitegereza ibyo abanyeshuri barimo gukora, uyu nguyu ashobora kuba ari umunyeshuri cyangwa se akaba ari umwarimu muri kaminuza, akaba arimo kugenda areba ibyo abanyeshuri be barimo gukora.

Abanyeshuri benshi barimo kugenda biga, biganjemo abakobwa ndetse n'abahungu, barimo kugenda bakora umwitozo bahawe kugira ngo babashe kuwukora nyuma bazaze kuwerekana mu mashuri yabo mu gihe cyagenwe.

Abanyeshuri bambaye impuzankano cyangwa se ya myenda yambarwa n'abantu bamaze gusoza amashuri, barimo gukora ibirori byo kwishimira ko bahawe impamyabumenyi bakaba bari guterera ingofero hejuru, bambaye amakanzu y'imikara.

Icyumba kirimo intebe za zindi zigezweho, aho umunyeshuri yicara, akanabasha kuba yakwandika atiriwe asaba imeza kuko intebe iba ibifite byose, uko biba bikenewe n'umunyeshuri.

Igikoresho gikozwe mu ibumba, ibi ngibi akaba ari bya bindi bikorwa n'abantu biga mu mashuri y'imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro, akaba ari ibikorwa n'abantu, cyane cyane bize ibijyanye n'ubugeni.

Ibikoresho bye bitandukanye byiganje mu intebe za sindi umuntu yicaraho akaba afite n'akameza ashobora kwandikiraho mu gihe yicaye kuri iyi ntebe bidasabye ko babitandukanya, yicaye ku ntebe ndetse afite n'ameza.

Ibishushanyo byakozwe n'abantu b'abahanga bikaba bigaragaza imodoka za zindi zitwara esanse ndetse hakaba hariho n'ibindi byinshi bisa nk'aho ari nk'imodoka yaguye, ubungubu ni ubugeni bubu bwakozwe n'abahanga.